Ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, icyo kigo kikaba kiri kwamamazwa mu birango byanditse, hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, i ruhande hakaba hari n'ishusho ihari iri mu mabara y'umuhondo, ndetse ikaba ifite udushusho hagati twanditse mu ibara ry'umweru.

Gushishikariza abantu kwishyura mitiweri ifasha umuntu kwivuza haragaragara umuntu uryamye ku gitanda bigaragara ko ari kwa muganga ndetse na muganga umwegereye wambaye itaburiye bigaragara ko ari kumufasha mu burwayi bwe bakaba bari mu cyumba giteye amarangi y'umweru.

Umuhanda w'inzira nyinshi zitandukanye wa kaburimbo unyuramo imodoka, iruhande rwabo hakaba hari inzira abanyamaguru banyuramo kandi hakaba hari icyapa cyamamaza kiri ifoto y'umugabo n'umugore, kandi hakaba hariho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse bikaba biri mu ishusho ry'ubururu.

Ikigo cy'ubwishingizi gifite ikirango kiri mu ibara ry'umutuku, kikaba kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru munsi hakaba hari amagambo ndetse n'ibirango biri mu ibara ry'icyatsi.

Icyapa kirimo kwamamaza ibikorwa by'ubwishingizi kiri mu ibara ry'ubururu kikaba cyandikishijweho amagambo ari mu'i ibara ry'umukara, iruhande rwacyokaba ari inyubako zibatse z'amagorofa imbere yacyo hakaba hari ibiti bihateye.

Ikirango cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi. Icyo kirango kikaba kiriho umugabo wambaye ikoti n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara, uri gusohuza umugore wambaye ikote ry'umukara ufite imisatsi ifunze, icyo kirango kikaba gihamagarira abantu kukigana kikabafasha.

Icyapa cyerekana ikigo cy'ubwishingizi gifasha abantu mu buryo butandukanye kibabikira amafaranga kikazayabaha mu gihe runaka akenewe, hakaba hari icyapa kiri kwamamaza icyo kigo ndetse hakaba hari na nimero wabahamagaraho.

Icyapa kiri ku muhanda, icyo cyapa kikaba kiri kwamamaza ibijyanye n'ubwishingizi, iruhande rwacyo hakaba hari umuyoboro mugari utwara amashanyarazi, umuyoboro ufite ipoto ry'ubakishije ibyuma.

Ikigo cya radiyanti gifasha abaturage kwiteza imbere aho wizigamira amafaranga ukazungukirwa mu gihe runaka bitewe n'igihe wayashyiriyehoni.

Urubuga rwa banki rushyirwa muri telefone igendanwa, rwifashishwa mu kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga yashyizwe muri iyo banki.

Urubuga ruba ku mbuga nkoranyambaga rwa banki umuntu yakwifashisha yiguriza amafaranga cyangwa se yishyura amafaranga mu gihe biri ngombwa.

Urubuga ruboneka mu buryo bw'ikoranabuhanga; urwo rubuga rukaba ari urwa banki. Ukaba warujyaho ushaka kwishyura amafaranga cyangwa se kwakira amafaranga, binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubwo buryo ukaba wabukoresha mu gihe ufite ibyuma bikoresha ikoranabuhanga, ndetse bikaba ari uburyo bworoshye.

Urubuga rwa banki rukoreshwa, ndetse bakarusanga ku mbuga nkoranyambaga abashaka serivisi zigendanye n'iyo banki, bakaba barukoresha ku mbuga nkoranyambaga.

Urubuga ruboneka ku mbuga nkoranyambaga, urwo rubuga akaba ari urwa banki ku buryo ushobora kurunyuraho ubitsa, ubikuza cyangwa wohereza amafaranga wifashishije imbuga nkoranyambaga ndetse n'icyuma cy'ikoranabuhanga.

Uburyo bwa banki bw'ikoranabuhanga, ubu buryo bukaba bwifashishwa mu kwishyura amafaranga, kuyohereza ndetse no kuyabitsa, uburyo bw'ikoranabuhanga bukaba bukoreshwa n'umuntu ufite icyuma cy'ikoranabuhanga byakwifashisha.

Urubuga rukoreshwa mu kohereza amafaranga ndetse no kuyakira, ruboneka kuri murandasi, urwo rubuga rukaba warusanga muri telefone igendanwa.

Urubuga ruri ku mbuga nkoranyambaga, rwifashishwa kwishyura amafaranga y'ishuri, Faustin Kanamugire yarukoresheje yishyura amafaranga y'ishuri ibihumbi mirongo irindwi na bitanu.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye byo kurya. Iri duka rikaba riri mu cyumba giteye irangi ry'umweru, ndetse hasi hakaba hari amakararo. Iryo duka rikaba rifite ameza ndetse n'intebe.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane ibijyanye no kurya, rikaba ririmo umumama uri gucuruza uwo mumama akaba afite amafaranga y'inoti mu ntoki.

Iduka ricururizwamo imyambaro itandukanye ngofero n'amashati iryo duka rikaba ririmo imyenda y'umutuku n'umuhondo umukara n'ingofero z'amabara atandukanye umutuku w'ubururu n'umuhondo n'andi mabara.

Icyumba kirimo ibintu bitandukanye, kikaba kirimo ameza arambitseho ibyo bintu. Ndetse hakaba harimo amakaro hasi, hakaba harimo n'amatara menshi ari gutanga urumuri rw'umweru.

Intebe nziza cyane n'ameza yazo birengerena izi ntebe zikoze mu mbaho n'ameza akoze mu mbaho, wabikoresha mu buryo butandukanye nko kuzicazaho abashyitsi cyangwa se kuzikoresha murimo kurya.

Iduka rito ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, iryo duka kandi rikaba rifite ikirango kiryamamaza ndetse hakaba hariho na nimero wabasha kubahamagaraho mu gihe usanze badahari.

Aho umuntu uwariwe wese yashakira imyenda mu nzu iteye amarangi y'umweru imbere hakaba hari icyapa cyanditseho ibyamamaza byerekana ko iyo nzu icururizwamo imyambaro iyo nzu ikaba iteye amarangi y'umweru, ndetse n'umutuku.

Imodoka iteye irangi ry'umukara iparitse ahantu iyo modoka ikaba igurishwa ku mafaranga angana na miliyoni makumyabiri neshanu aho iparitse nyuma hakaba hari urukuta rw'amabuye rwubatse ndetse hejuru hakaba hariho n'urundi rukuta rwubakishije ibyuma bigaragara ko hari inyubako zihari hafi

Imodoka y'umukara iparitse ahantu hatwikiriye; iyo modoka ikaba iri kwaka amatara y'umweru. Imbere y'iyo modoka hakaba hari abagabo babiri bahagaze bafite icyapa cyamamaza; abo bagabo bakaba bari kureba imbere. Inyuma y'iyo modoka hakaba hari inyubako ifite ibikuta biteye irangi ry'umuhondo ndetse hakaba hari urumuri rwaka rw'umuhondo.

Imodoka y'umukara iparitse hamwe n'izindi modoka bikaba bigaragara ko iyo modoka ifite ikoranabuhanga rihambaye ikaba igurishwa ku giciro kingana na miriyoni cumi na zirindwi.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'iroza, n'ingofero y'iroza, akaba ahahagaze iruhande rw'imodoka, iteye amarangi asa n'umukara, inyuma yayo hakaba hari igikuta cy'ibiti gihari.

Imodoka iri mu ibara ry'umukara iparitse mu nzu hakaba hasi hari amakaro ahari iyo nyubako ikaba iteye amarangi y'umweru ndetse ikaba ifite n'inzugi ziteye irangi ry'umukara .

Imodoka y'umukara iparitse imbere y'amagorofa yubatse inyuma yayo ndetse hakaba hari n'ubusitani burimo ibiti buteye inyuma y'aho imodoka iparitse, amagorofa ari inyuma yayo akaba yubakishije amatafari ahiye ndetse ateye amarange y'umuhondo.

Imodoka iteye irangi ry'umweru iri imbere y'inyubako. Iyo nyubako ikaba iteye amarangi y'umweru ndetse iruhande hakaba hahagaze abantu babiri bafite icyapa kiriho ibirango byamamaza umuryango ukora ibijyanye no kurangira abantu imodoka.

Igorofa rigeretse inshuro ebyiri rifite ikirango imbere cyanditseho toyota mu magambo y'umutuku ndetse kikaba kiri mu irangi ry'umweru. Iyo nzu ikaba iteye amarangi y' umweru imbere hakaba hari ikindi cyapa gihari kigaragaza ko kiri kwamamaza uwo muryango ucuruza imodoka.

Imodoka ziteye irangi ry'umweru, izo modoka zikaba ziri ahantu hamwe zegeranye, izo modoka zikaba ari iz'ikigo gishinzwe kuzihereza abantu bazikeneye, bifuza kuzikoresha.

Icyumba kiri gutangirwamo ubufasha ku bijyanye n'amafaranga, kuyohereza ndetse no kuyabikuza. Icyo cyumba kikaba kirimo abantu babiri, abo bantu aho bari gukorera imbere hakaba hari ibirango byamamaza ubufasha batanga ndetse icyumba barimo kikaba giteye irangi ry'umweru.

Icyumba gicururizwamo amata, imikati ndetse n'imitobe. Kikaba gihagazemo umuntu uri kuvugira kuri telefoni wegereye ameza asa n'umweru. Icyo cyumba kandi kikaba giteye irangi ry'ubururu, ndetse kikaba gifite hasi amakaro asa umweru.

Iduka ricuruza amata meza, rikaba rifite ikirango imbere kiriho umwana ndetse cyanditseho amagambo agira ati ni amata meza byerekana ko ari ukuyamamaza, muri uwo muryango hakaba harimo icyo kirango ndetse umuryango ukaba uteye irangi ry'ubururu.

Icyumba kirimo ibicuba bitwara amata, byinshi byegeranye, bikaba biteretse mu cyumba kirimo amakaro, ndetse n'inkuta zacyo zubakishije amakaro y'umweru.

Isahani irambitse hejuru y'ameza y'umweru, iyo sahani ikaba iriho capati. Zikaba zirambitse ku isahani y'umweru, Izo capati zikaba zirenze imwe.

Icyumba kinini gicururizwamo amazi, icyo cyumba kikaba gifite amakaro hasi ndetse kikaba giteye irangi ry'ubururu, hakaba harimo abantu batatu, babiri bigaragara ko ari abantu baje gushaka ubufasha muri icyo cyumba, undi umwe akaba ari umuntu utanga ubufasha ku bantu baje bamugana.

Icyumba kirimo ikidomoro kinini kibikwamo amata. Hafi aho hakaba hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye. Hakaba hegeranye n'utubuni duto duhari bigaragara ko natwo tubikwamo amata.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, iryo duka rikaba rifite umuryango usa n'umweru, imbere hakaba hari icyapa kiryamamaza ndetse rikaba riri mu nyubako yubakishijwe amatafari ahiye.

Ibiganza bibiri biteruye isahani, iyo sahani ikaba irimo amandazi menshi cyane. ibyo biganza bikaba biteruye isahani bisa naho hari aho uwo muntu agiye kuyijyana.

Icyumba gicururizwamo kirimo abagabo babiri n'umukobwa umwe, umukobwa n'umusore umwe bakaba bambaye umupira utukura undi musore umwe akaba yambaye umupira w'umukara, babiri bakaba bambaye ingofero bari muri icyo cyumba kirimo ibicuruzwa bacuruza.

Icyumba kirimo ibikoresho babikamo amata ndetse bakanayatwaramo, ibyo bikoresho bikaba biri ahantu hamwe mu cyumba, icyo cyumba kikaba giteye amarangi y'umweru mu nkuta.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye byo kurya cyane cyane rikaba ricuruza amata ameze neza, iryo duka rikaba riri mu nzu ifite inkuta zisize irangi ry'umuhondo kandi imbere muri iyo nyubako hakaba hari icyapa cyamamaza iryo duka.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa n'abantu mu kwishyura amafaranga cyangwa kwakira amafaranga. Ubwo buryo bukaba bukoreshwa n'umuntu ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa cyangwa mudasobwa.

Uburyo bw'ikoranabuhanga wakwifashisha wohereza amafaranga, wakira amafaranga ndetse uyabitsa cyangwa ukayabikuza, icyo kigo kikaba kiri kwamamazwa ku birango by'icyuma cy'ikoranabuhanga gifashwe n'ikiganza cy'umuntu.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kohereza amafaranga ku bantu batandukanye ubu buryo bukaba bwifashishwa mu kwishyura amazi cyangwa umuriro w'amashanyarazi ukaba wanabukoresha wishyura amafaranga y'umuntu cyangwa umwenda ubereyemo ikigo runaka.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa muri telefoni igendanwa ubwo buryo bukaba bwifashishwa mu kohereza, kwakira ndetse no gutanga amafaranga binyuze kuri telefone igendanwa .

Akazu kari kwinjiramo abantu batandukanye, ako kazu kakaba kanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo imbere, ako kazu kandi kakaba gafite urugi rukinguye ruri kwinjiramo abantu rufite amarangi y'umuhondo.

Urubuga ruboneka ku mbuga nkoranyambaga rwifashishwa n'abaturage mu kwishyura amafaranga, Emanweri Ngendakuriyo akaba yarukoresheje yishyura amafaranga.

Urupapuro rwerekana uko banki ikoreshwa binyuze muburyo bwkoranabuhanga, ubwo buryo bwifashishwa wohereza amafaranga, uyabitsa cyangwa se uyabikuza hanyuma urwo rupapuro ukaza kurubona muburyo bw'ikoranabuhanga ruriho amakuru ajyanye wakoreye muri banki.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, bwifashishwa mu kohereza amafaranga, kwishyura ndetse no kuyakira. Ubwo buryo ukaba wabukoresha ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kuvunjisha amafaranga uyakura mu madorari uyazana mu mu manyarwanda cyangwa mu yandi mafaranga wifuza.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, bwifashishwa mu kwishyura amafaranga, ni uburyo bworoshye bw'ikoranabuhanga. Ubwo buryo ukaba ubukoresha mu gihe ufite ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse bikaba byoroshye cyane cyane ufite nka mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kohereza amafaranga aturuka ku muntu umwe ajya ku wundi. Ubu buryo kandi bunifashishwa mu kugura amanite, cyangwa se kwishyura amazi, ndetse n'umuriro

Urupapuro rwanditse mu mabara y'umukara ndetse rukaba ari urupapuro rusa umweru, rwanditseho uko umusoro utangwa. Urwo rupapuro rukaba ari ipatanti y'umusoro yishyurwa n'umuntu ukora ibikorwa runaka.

Urupapuro ruri kwerekana uko ubucuruzi bw'amafaranga bukoreshwa ndetse ruri kwerekana amatariki amafaranga yagiye afatirwaho cyangwa ahererekanirwaho .

Amafaranga y'inote, ayo mafaranga akaba arambitse ahantu hamwe yegeranye. Ayo mafaranga akaba ari mu bwoko butandukanye yose akaba ari inoti, zikaba zifungishijwe udufungo dushinzwe kuzifunga neza.

Inoti z'amafaranga zitandukanye zifite amabara; ubururu, icyatsi, umweru zanditseho imibare itandukanye; ijana, magana atanu, igihumbi ndetse n'andi magambo.

Amafaranga y'inoti ashushanyijeho umuntu ufite imisatsi y'umweru bigaragara ko akuze. Iyo noti ikaba yanditseho amafaranga igihumbi, bikaba bigaragara ko yaturutse muri banki ya Tanzaniya.

Umuntu ufite ibipfunyika byinshi by'amafaranga, ayo mafaranga akaba ari inoti zikaba zanditseho igihumbi izo noti afite mu ntoki, inyuma ye hakaba hari abagabo bicaye umwe bambaye imyenda y'umweru undi wambaye umupira w'umukara n'ishati y'umweru bakaba bari mu nzu iteye amarangi y'umuhondo

Amafaranga y'ibiceri ayo mafaranga akaba arambitse hejuru bigaragara ko ari ku meza, akaba yifashishwa n'ikigo gikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga.

Icyapa cyerekana uburyo amafaranga avunjwamo, y'amanyamahanga. Bitewe n'igihugu icyo ari cyo, barerekana uko amafaranga atandukana n'andi yo mu bindi bihugu.

Amafaranga ari guhererekanwa bigaragara ko bari kuvunja amafaranga yo mu gihugu kimwe bayahinduramo ayo mu kindi gihugu, ayomafaranga akaba afashwe n'ibiganza bibiri bitandukanye, ndetse akaba arimo mu bwoko bubiri butandukanye yose akaba ariho ishusho y'umuntu.

Icyumba kiri gutangirwamo ubufasha ku bijyanye n'amafaranga. Hakaba hari gutangwa amafaranga yanditseho magana abiri. Ayo mafaranga mo hagati hakaba harimo ishusho y'umuntu hakaba hari ikiganza kiri gutanga amafaranga, ndetse n'ikiganza cy'uri kuyakira.

Inyubako ikoreramo ikigo gishinzwe ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga, iyo nzu ikaba ifite imiryango iteye irangi ry'ubururu ndetse hanze hakaba hari icyapa kerekana ko mu imbere hakoreramo icyo kigo.

Inzu ifite ibyapa imbere byamamaza ubufasha butangwa muri icyo cyumba bikaba bigaragara ko ahongaho bahatangira ubufasha ku bijyanye no kuvunjisha amafaranga y'amahanga .

Iduka riri mu nyubako igeretse, munsi yaho hakaba hari iduka riri kwinjiramo umuntu wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'ubururu, hanyuma imbere y'iyo nyubako hakaba hari ibirango byamamaza.

Icyumba gikorerwamo n'umushinga ukora ibijyanye no kuvunja amafaranga y'amanyamahanga bakaguha amafaranga ukoresha muri icyo gihugu. Icyo cyumba kikaba kiriho ibirango byamamaza icyo kigo ndetse bigaragara ko harimo umuntu waje kwakamo ubufasha.

Icyapa kiri kwamamaza ikigo gikora ibijyanye n'ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga, ahantu icyo cyapa kiri kakaba hari inkengero zikikije inyubako, zikaba zikozwe mu byuma zikaba zinateye irangi ry'umweru, hafi aho hakaba hegere umuhanda wa kaburimbo n'izindi nyubako zitandukanye.

Icyumba kirimo akabati gasize irangi ry'umutuku, icyo cyumba kikaba gifite urumuri ruri kukiboneshamo rw'umweru kandi kikaba gifite amakaro hasi. Icyo cyumba kikaba kirimo n'ibindi bikoresho bigaragara ko hari ibindi bikorwa bikoreramo.

Icyumba kinini cy’uruganiriro kirimo intebe z’imifariso ndetse n’ameza hagati y’izo ntebe. Hakaba hari ikibuni gifata amazi ,iruhande hakaba hari utubati tubikwamo ibikoresho byo mu rugo byifashishwa mu gihe abantu babikeneye.

Icyumba kirimo ibikoresho bikoreshwa mu ruganiriro aribyo intebe zisa umweru zisa ubururu n'izisa umukara ndetse hakaba hari n'ameza bigaragara ko ari umushinga ubikora ubigurisha.

Ibikoresho biri gukorwa mu mbaho zibaje, ibyo bikoresho bikaba biri guteranwa, bikozwe mu mbaho nziza cyane zifite isura rijya gusa umuhondo.

Icyumba kirimo intebe z'imifariso, icyo cyumba kikaba kirimo n'indi mitako itandukanye, icyo cyumba kikaba giteye irangi ry'umweru ku nkuta, kandi hakaba harimo na mudasobwa.

Intebe nziza zo kwicaramo zifite amabara y'ubururu ndetse n'umukara zikaba zikikije ameza afite ibara ry'umukara, inyuma yazo hakaba hari urukuta rufite amabara umweru n'umukara ndetse hakaba hari n'umuferege utwara amazi hafi aho.

Iki cyumba kirimo intebe zifite imifariso ndetse zikikije ameza y'umweru. Ku ruhande hakaba hari urukuta rw'amabuye ndetse hakaba hegereye inyubako ziteye irangi ry'umuhondo, zifite inzugi n'amadirishya biteye irangi ry'ubururu.

Igorofa rigeretse rimwe, iryo gorofa rikaba risakaje amabati atukura. Rikaba ryubakishije amatafari ahiye, rikaba rikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi bw'ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse hakaba harimo n'ibyumba byo kuraramo. Hafi aho hanze hakaba hari ahantu hatwikiriye hari intebe, bigaragara ko hari abantu bahicara bahaganirira.

Icyumba gihuriramo abantu baje gufata icyo kunywa no kurya, icyo cyumba kikaba gifite ameza n'intebe zo kwicaramo, hakaba hari ibaraza hanze ririho ameza n'intebe byo kwicaraho, hanyuma hanze y'iyo nzu hakaba hari ibiti bihateye ndetse n'inzu z'abaturage.

Inzu y'igorofa iri ahantu hegereye amazi abantu bogeramo kugira ngo baruhuke ndetse hakaba hari n'abantu barambitse ibirenge muri ayo mazi, babiri umwe wambaye umupira w'umutuku undi wambaye umweru. Iruhande rwabo hakaba hari inzu ziteye irangi ry'umweru ndetse mu kindi gihande hakaba hari ubusitani.

Ibiryo bitandukanye biteguye neza biri ahantu mu cyumba bigaragara ko bigurishwa, aho hantu hakaba hakira abantu baje bahagana bakeneye kurya cyangwa kunywa ndetse bakaba banacumbikira ushaka kuharara akaba ari ahantu heza cyane kandi hanini.

Amagorofa abiri ateganye afite irangi risa n'umuhondo ayo magorofa akaba asakaje amabati atukura ndetse ayo magorofa akaba afite ubusitani imbere yazo. Imbere yazo nanone hakaba hari umuhanda uhanyura wa kaburimbo w'umukara unyuramo ibinyabiziga.

Aho abantu bahurira baje gusangira, cyangwa kugura ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Aho hantu hakaba hari intebe bicaramo n'ameza baterekaho ibyo babakirije. Ndetse hakaba hari inyubako zikorerwamo ibyo baba baje kugura, aho hakaba hari n'ibiti bibafasha kugubwa neza.

Amagorofa menshi yegeranye, afite ibara risa umweru ndetse akaba ateye n’irangi risa umuhondo n’umweru. Imbere y’ayo magorofa, hakaba hari amatara yo ku muhanda bigaragara ko yegeranye n’umuhanda wa kaburimbo iruhande hakaba hateye ibiti.

Inyubako ndende igeretse inshuro eshatu iyo nzu ikaba iteye amarangi y'umweru umutuku n'umukara iyo nzu ikaba yanditseho amagambo hejuru aho irangirira.

Ahantu hatangirwa ubufasha ku bijyanye n'icyo kunywa, icyo kurya ndetse naho kurara, imbere hakaba hari ahantu hari ubusitani, ndetse imbere hakaba hanatwikiriye, hegereye amazi yo kongeramo, ndetse Rwanda hakaba hari n'intebe zo kwicaraho cyangwa ukaryamaho.

Inzu igereretse inshuro enye iyo nzu ikaba ari inzu icururizwamo ibyo kurya hakaba habamo n'ibyumba byo kuraramo cyangwa kuruhukiramo ndetse bakaba batanga n'ibyo kunywa, hanze hakaba hari ubusitani ndetse n'indabo zituma abantu bagana baruhuka neza hakaba hari n'intebe n'ameza wariraraho hakaba ari akazu k'umweru gahari gato.

Inyubako nziza cyane iyo nyubako ikaba iteye amarangi y'umweru, munsi yayo hakaba hari ahantu hasa n'ahari uruganiriro rurimo intebe nziza n'imifariso ndetse hakaba hari n'intebe n'ameza biharambitse.

Iyi nzu ifite amabara atukura ikaba irimo intebe, ifite uruganiriro runini rwicaramo abantu benshi batandukanye.

Inyubako y'igorofa ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi. Iyo nyubako imbere ikaba ifite ibirango byamamaza ndetse byerekana ko iyo nyubako ikorerwamo n'icyo kigo cy'ubwishingizi.

Inzu y'igorofa iteye amarangi y'umweru n'umutuku ikaba igeretse rimwe, iyo nzu imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo indabo ndetse hakaba hari n'icyapa cyerekana ko iyo nzu ikorerwamo n'ikigo cy'ubwishingizi gifasha abantu kwishyura ibyangiritse.

Inzu ikoreramo ikigo gitanga ubufasha ku bijyanye n'ubwishingizi, iyo nzu ikaba iri mu mabara y'umweru, ndetse imbere yayo hakaba hari ibiti bitwaye umuyoboro w'amashanyarazi.

Icyumba kirimo abantu babiri icyo cyumba kikaba kirimo umuntu wambaye umupira w'umukara bigaragara ko hari ubufasha yaje gusaba, ndetse imbere hakaba hari umumama wicaye mu ntebe wambaye umupira w'icyatsi bigaragara ko ari ubufasha ariko kumuha icyo cyumba kikaba kirimo ibirango byamamaza ndetse uwo mumama imbere akaba yateretse mudasobwa ari kwifashisha.

Iyi foto irerekana inzu ifite icyapa imbere cyerekana ko hakorerwamo ikigo cy'ubwishingizi, iyi nzu ikaba igeretse.

Igorofa ryiza, rigeretse inshuro imwe, rikorerwamo n'ikigo cy'ubwishingizi gifasha abaturage kuba cyabaha amafaranga mu gihe bahuye n'ibyago, cyangwa bakeneye kuba bayakoresha mu bikorwa bitandukanye.

Inyubako igeretse inshuro nyinshi, ikaba ifite imbere uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa bwinjiza umwuka mwiza muri iyo nzu, ikaba ifite ibirango byamamaza imbere ikigo cy'ubwishingizi.

Igorofa rirerire cyane riri mu mabara y'umuhondo n'umweru iryo gorofa mbere hakaba hari abantu bari kwinjira mu muryango waryo mbere yaryo hakaba hari imikindo ihateye mu nzira yinjira muri iryo gorofa ndetse hafi aho hakaba hari n'ibiti bihateye.

Banki ibitswamo amafaranga y'abaturage. Ikaba kandi ishobora kwifashishwa mu kohereza ndetse no kwakira amafaranga, kandi ikaba itanga inguzanyo ku bantu bayifuza cyangwa bifuza amafaranga yo gukoresha mu bikorwa bitandukanye.

Gahunda ya banki y'abaturage y'u Rwanda iri kwamamazwa ifite intego ivuga ngo "gera ku ntego", ikaba iri kwamamazwa ku gitambaro cyanditseho amagambo avuga "gera ku ntego" ndetse akaba ari mu ibara ry'ubururu, hakaba hariho n'ifoto y'abantu babiri umusore n'umukobwa.

Banki iri kwamamazwa mu birango biri mu ibara ry'ubururu n'amagambo yanditseho, iyo banki ikaba ifasha abantu mu bijyanye n'inguzanyo ibafasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye.

Uburyo bufasha umuntu kwishyura inguzanyo ya banki, ubwo buryo bukaba buri kwamamazwa, hifashishijwe amagambo ndetse akaba ariho n'abantu babiri, umwe uteruye undi.

Ikigo kiri kwamamazwa, gitanga ibijyanye n'inguzanyo. Kikaba kiri kwamamazwa mu birango by'umutuku n'amagambo atukura ndetse hakaba hariho igishushanyo cy'inzu gishushanyije mu mabara y'umweru. Hakaba hari n'amagambo yanditseho asobanura uko icyo kigo gikora.

Isoko riremera hanze ricururizwamo ibyokurya ari byo, ibirayi n'ibitoki, aho abacuruzi bahuriramo n'abaguzi, abo baguzi hakaba hari imifuka ku mazu babafungiramo ibyo kurya bahashye.

Ahantu hagari hashije harimo igitaka, aho hantu hakaba hari gucururizwa ibicuruzwa bitandukanye ari byo, inyanya, intoryi na karoti, hakaba hari kuremera isoko, hakaba harimo abantu baje kugura ndetse n'abacuruzi bari kugurisha ibyo bicuruzwa.

Isoko ririmo abantu benshi baryitabiriye abo bantu bakaba ari ingeri zitandukanye iryo soko hakaba harimo ibitoki biri kugurishwa ndetse rikaba ryubakiye hakaba hariho amabati y'ubururu asakaye iyo nzu iri kuberamo isoko.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye. Iryo soko rikaba riri mu igorofa rigeretse inshuro ebyiri. Iryo gorofa rikaba riteye amarangi y'umweru ndetse n'umutuku, hakaba hari n'ibirango imbere byanditseho izina ry'iyo gorofa.

Isoko ririmo abadozi bari kudoda imyenda, uwo mudozi akaba ari kumwe n'abandi badozi bagenzi be ndetse hakaba hari n'umukiriya waje kudodesha imyenda. Imbere yabo hakaba hari umusore wifashe mu mifuka wambaye umupira hejuru n'ipantaro y'ubururu.

Igorofa rirerire riteye amarangi y'umweru, iryo gorofa imbere rikaba ririho ikirango kiri kwamamaza, kandi iryo gorofa rikaba ririmo isoko rigurisha ibicuruzwa bitandukanye riremeramo. Iruhande rwaryo hakaba hateye ibiti ndetse hegereye n'umuhanda wa kaburimbo.

Isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu, iryo soko rikaba ririmo abaje guhaha ndetse n'abari gucuruza ibicuruzwa byabo. Iryo soko kandi rikaba rifite inkingi z'umuhondo kandi hasi hakaba hariho sima.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo harimo: ibikapu, ibyibo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Iryo duka rikaba ririmo abantu baje kugura ndetse hakaba harimo n'umuntu uri gucuruza ibyo bikoresho.

Umumama wicaye mu isoko, uri gucuruza imineke, inyanya, tungurusumu, n'intoryi, uwo mumama akaba atwikiriye igitenge mu mutwe, ndetse akaba afite agakomo mu ntoki.

Isoko riri gucururizwamo imineke, inyanya, ibihaza ndetse n'ibitoki, iryo soko rikaba ry'ubakiye rikaba ririmo abaguzi ndetse n'abacuruzi, imbere hakaba hari umucuruzi wipfutse igitambaro mu mutwe ndetse wambaye umupira w'ubururu.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye muri ibyo harimo ibiribwa biri gucururizwa hanze ndetse hakaba hari abari kubicuruza n'abantu bari gutambuka bakeneye ibyo bintu kubigura iryo soko rikaba riri gukorerwa hanze.

Isoko ricururizwamo imbuto zitandukanye arizo karoti, intoryi, urusenda rikaba ririmo abantu baje kuri hahiramo iryo soko rikaba ririmo n'abantu bari gucuruza ibyo bicuruzwa iryo soko rikaba risakariye ndetse rikaba rifite n'inkingi ziriho ayo mabati.

Isoko riri kuremera hanze, iryo sokokaba ari iry'ibiribwa ndetse riri kuremera ahantu hari igitaka hasi, iryo soko rikaba ririgucururizwamo inyanya, ibitunguru, karoti n'amashu, iryo soko rikaba ririmo abantu baje kubihaha ndetse rikaba ririmo n'abari kubicuruza.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kariho ibirango by'umuyoboro w'itumanaho ukorera mu Rwanda wa emutiyene. Uwo muntu ukorera muri ako kazu akaba yambaye ishati y'umweru, ako kazu kakaba kanditseho ibirango by'icyo kigo cy'itumanaho cyo mu Rwanda cya emutiyene, hakaba hari n'abana bari imbere y'ako kazu.

Umutaka ukorerwamo n'umukozi ukora ibijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga ndetse no kuyohereza, hakaba hari abantu bahahagaze bambaye udukoti tw'umuhondo bigaragara ko bakorera ikigo cy'itumanaho cyo mu Rwanda. Bakaba bari gukorera hafi y'umuhanda unyuramo ibinyabiziga wa kaburimbo ndetse hakaba hegereye inyubako.

Akazu gateye amarangi y'umuhondo gahagazeho abantu imbere bafite telefone mu ntoki bambaye udupira tw'umutuku ako kazu kakaba gatangirwamo ubufasha bujyanye no kubitsa ndetse no kubikuza ikindi kandi banagufasha kohereza amafaranga ku muntu utakwegereye .

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu ndetse n'ibirahuri byo mu maso, akaba inyuma ye hari icyapa kiri kwamamaza; kiriho abantu babiri ndetse kiri mu mabara y'umuhondo n'umweru, ibyo birango byose bikaba biri kwamamaza ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, ndetse hakaba hari inzu isakaye irimo abantu bambaye imipira y'umuhondo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kwishyura amafaranga kuyohereza ndetse no kuyakira ubwo buryo bukaba bukoreshwa n'umuntu ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga ndetse bukaba ari uburyo bworoshya ubwo bufasha.

Akazu gatangirwamo serivisi zijyanye n'irembo ndetse na banki, bakaba banatanga serivisi zijyanye no kubitsa kubikura ndetse no kohereza amafaranga ku bantu batandukanye. Ako kazu kakaba kari mu mabara y'umuhondo n'ibirango byamamaza imbere.

Akazu k'umuhondo karimo umuntu utanga ubufasha ku bantu baje bamugana, ako kazu kakaba gafite amadirishya akinguye, ako kazu kakaba gatangirwamo ubufasha ku bijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, ako kazu inyuma yako hakaba hari ubusitani ndetse n'inzu z'abaturage.

Utuzu tubiri twegeranye dutangirwamo ubufasha ku bijyanye no kubitsa, kubikuza, ndetse no kohereza amafaranga. Utwo tuzu twose twakaba turimo abantu bari kudukoreramo, kamwe kakaba gateye irangi ry'umuhondo akandi kakaba gateye irangi ry'umutuku.

Akazu gateye amabara y'umuhondo, ako kazu kakaba kariho ibirango byamamaza umurongo w'itumanaho ukorera mu Rwanda, ako kazu kakaba gatangirwamo ubufasha ku bijyanye no kubitsa, kubikuza , ndetse no kohereza amafaranga, kakaba gahagaze ho abantu bigaragara ko hari ubufasha bakeneye, inyuma hakaba hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo gafite umuntu uri kugakoreramo wicaye ku ntebe y'umukara ufite ameza imbere ye ateretse icupa ry'amazi yo kunywa hakaba hari abantu imbere ye baje bamugana bamukeneyeho ubufasha bikaba bisa naho hari ibyo ari kubabwira.

Ikigo kigezaho abantu batandukanye amazi meza wakoresha unywa cyangwa uyatekesha ndetse n'uburyo bwiza bwihuse bwo kuba wateka ibyo kurya cyangwa ibindi bitandukanye. Icyo kigo kikaba cyifashisha moto kikugezaho ibyo bintu bitandukanye cyangwa ukaba wabandikira ku mbuga nkoranyambaga.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara uhetse igikapu akaba yicaye kuri moto ifite amabara y'umutuku icyo gikapu ahetse kikaba kinafashe kuri moto inyuma, inyuma ye hakaba hari urukuta ruteye irange ry'umuhondo.

Moto zipakiye ibyo kurya bashyiriye abantu babitumijeho, izo moto zikaba ziparitse mu muhanda wa kaburimbo, uwo muhanda imbere yawo hakaba hari igipangu kiri mu ibara ry'umuhondo giteye irange risa gutyo, mo imbere hakaba harimo amazu ateye amarange y'umweru ageretse ndetse n'ubusitani burimo imikindo.

Urubuga ruboneka ku mbuga nkoranyambaga, urwo rubuga rukaba rufasha abantu kugura ibicuruzwa bitandukanye unyuze ku mbuga nkoranyambaga, urwo rubuga ukaba warukoresha ufite icyuma k'ikoranabuhanga nka mudasobwa n'ibindi.

Isoko rya kimironko ricuruza ibyokurya bitandukanye, ukaba ushobora gutumizaho ibyo ushaka kugura binyuze ku muyoboro w'itumanaho wa telefoni cyangwa se ukaba ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga utumaho ibyo ushaka kugura.

Uburyo bwo ku mbuga nkoranyambaga bwifashishwa n'abantu bagura cyangwa bagurisha ibicuruzwa bitandukanye, ubwo buryo ukaba ubukoresha ufite igikoresho cyifashishwa kugira ngo ujye ku mbuga nkoranyambaga.

Igitaramo kiri kwamamazwa, mu ishusho ry'umuhondo ndetse hakaba handikishije amagambo y'icyatsi, hakaba hagaragara uko itike yo kwinjira muri icyo gitaramo izaba igura ndetse n'abazaba bari muri icyo gitaramo.

Urubuga ruboneka ku mbuga nkoranyambaga urwo rubuga rukaba rwarakorewe abantu bifuza kugura cyangwa kugurisha ibicuruzwa bitandukanye urwo rubuga ukaba warugana ushaka kugura bimwe mu bicuruzwa biboneka kuri urwo rubuga.

Inyubako nziza igurishwa, iherereye kabeza mu mujyi wa Kigali, iyo nyubako ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu, ikaba ifite imiryango ikozwe mu biti byiza cyane bikomera, ndetse imbere hakaba harimo amakaro.

Abantu babiri, umugore n'umugabo basa naho bari mu rugo iwabo, imbere yabo hakaba hari inyerekanamashusho n'intebe zo kwicaramo n'ameza, bigaragara ko ari umugore n'umugabo.

Icyumba giherereye i Kigali mu Rwanda, icyo cyumba kikaba gifite urumuri rubonesha muri icyo cyumba rw'umweru, kandi kikaba cyubakishije amakaro hasi. Icyo cyumba kikaba kigurishwa kuri miliyoni, ijana na mirongo ine, ndetse kikaba giherereye i Kanombe, mu mujyi wa Kigali.

Inzu ifite ibaraza imbere, iyo nzu ikaba iteye amarangi y'umweru n'umukara, iruhande rw'iyo nzu hakaba hariho indi nzu igeretse inshuro ebyiri iteye amarangi y'umweru, imbere y'iyo nzu hakaba hari ubusitani burimo ibiti ndetse iyo nzu ikaba iri mu gipangu.

Icyumba giteye amarangi y'umweru mu nkuta, kikaba gifite amarido ku madirishya ndetse akaba harimo igitanda cyo kuryamaho. Icyo cyumba kikaba giherereye i Kigali mu Rwanda, ukaba wakibona ku mafaranga y'amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu igurishwa iteye amarangi y'umweru ifite n'urubaraza imbere ikaba ifite amakaro kuri urwo rubaraza, ikindi kandi iherereye mayange mu nzu mo imbere hakaba harimo amakaro.

Icyumba gikodeshwa ku mafaranga ibihumbi 150. Icyo cyumba kikaba gifite umuryango ufunguye, urimo urufunguzo. Icyo cyumba kikaba giteye hanze amarangi asa umuhondo, mo imbere hakaba harimo amakaro.

Inyubako iherereye i Kigali Kanombe ikaba ifite ibyumba bine byo kuraramo ndetse ikagira ubwogero butatu .Iyo nyubako ikaba ikodeshwa ku kwezi amafaranga ibihumbi magana atanu(500,000 Rwf). Iyo nyubako ikaba ifite ibaraza ndetse n'amarange meza , ikaba ifite n'amakaro.

Inzu iherereye i Remera ikaba isakaje amabati atukura, iyo nzu ikaba ikodeshwa kandi ikaba ifite icyumba cyo kuraramo kimwe ikaba ifite ubwogero bumwe ndetse ikaba ifite mu imbere igikoni cya kijyambere.

Inyubako nziza isakaje amabati atukura ndetse ikaba iteye amarangi y'ubururu, iyo nzu ikaba igurishwa ikaba iherereye hafi y'umurenge wa Kabeza.

Isoko rinini ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, iryo soko rikaba ririmo urumuri ruri kubonesha muri iryo soko, kugira ngo ibicuruzwa birusheho kugaragara iryo soko, rikaba rihagazemo umuntu, uwo muntu akaba ari guseka.

Icyumba kirimo ibicuruzwa bitandukanye byo kurya byinshi, muri icyo cyumba hakaba harimo itara riri gutanga urumuri rw'umweru, muri icyo cyumba kirimo ibyo bicuruzwa.

Isoko rinini riri mu igorofa igeretse inshuro eshatu, iryo gorofa rikaba riteye amarangi y'umweru iryo gorofa rikaba rikoreramo abacuruzi batandukanye bacuruza ibintu bitandukanye ndetse rikaba ririmo abaguzi bari kugenda bagura ibyo bakeneye.

Icyumba kinini, kirimo isoko wahahiramo ibicuruzwa bitandukanye, icyo cyumba kikaba ari kigari kirimo n'ibicuruzwa byinshi bitandukanye, kikaba gifite inkuta ziteye irangi ry'umuhondo n'umweru, hasi hakaba harimo amakaro, ndetse muri icyo cyumba harimo urumuri ruboneshamo rw'umweru.

Iduka abantu bajya guhahiramo ibyo kurya cyangwa se ibindi bakeneye bitandukanye. Ni iduka rinini ririmo abantu bagiye kugura ibicuruzwa biri muri iryo duka. Rikaba riri mu nzu kandi hasi hakaba harimo amakaro.

Icyumba kinini gicururizwamo imyambaro yambarwa n'abantu b'abadamu ndetse n'abakobwa ndetse n'abana b'igitsina gabo bose iyo nzu ikaba irimo amatara ari gutanga urumuri rw'umweru ndetse hasi hakaba hari amakaro, iyo nzu ikaba irimo abantu baje kugura iyo myambaro.

Iduka rinini rikorera mu nzu, iyo nzu ikaba ifite amakaro hasi ndetse ikaba ifite urumuri rw'umweru rubonesha muri iyo nzu. Iryo duka rinini rikaba ririmo abantu baguriramo ibintu bitandukanye ndetse n'ababa bari kubicuruza.

Iduka rito ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, iryo duka rikaba riri gukorera mu cyumba. Icyo cyumba kikaba kirimo umuguzi uri kugenzura imyambaro icururizwa muri iryo duka akaba ahetse igikapu; iryo duka rikaba ricuruza imyambaro ndetse n'inkweto.

Abaturage bicaye imbere y'inyubako ifite imiryango isa n'umweru, abo baturage bakaba bicaye hanze ku ntebe bisa naho bategereje ubufasha ku bantu baje bagana.

Umugabo wambaye ikoti n'ishati, uri kuvugira ku binyamakuru by'igihugu. uwo mugabo akaba ari kugeza ikiganiro kubantu bamukurikiye ku bijyanye n'ejo heza.

Abantu benshi bahagaze imbere y'urubaraza rw'inzu iteye amarangi y'umuhondo abo bantu bakaba bafite icyapa cyanditseho ubutumwa bwo gukangurira abantu gutanga ubwisungane mu kwivuza bakaba bafite icyapa byanditseho imbere kiriw ibara ry'ubururu.

abamama babiri bari kumwe bari mu nzu mu cyumba giteye irange ry'umuhondo ndetse gifite n'amabara y'icyatsi imbere yabo, bakaba bafite mu ntoki ubwisungane mu kwivuza basa naho bari kwa muganga ahatangira ubufasha kubarwayi.

Igitambaro kiri kwamamaza ibijyanye n'uko wagira ubuzima bwiza mu gihe kiri imbere, icyo gitambaro kikaba gifite amabara y'umweru cyanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye ari yo ubururu, icyatsi ndetse n'umweru, munsi y'aya magambo yanditse avuga ngo ejo heza hakaba hariho ifoto y'abantu babiri bishimye.

Igitaramo kiri kwamamazwamo ejo heza ndetse n'ikigo k'igihugu gishwinzwe ubuzima ikindi icyo gitaramo kikaba kiri kubera ahantu inyuma hari inyubako ndetse nibiti bikuze biri inyuma hakaba hari umuntu bisa naho uri gutanga ubutumwa kubitabiriye icyo gitaramo.

Isoko rinini ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, iryo soko rikaba rifite urumuri ruboneshamo kugirango ngo ibicuruzwa bigaragare rw'umweru ndetse ibyo bicuruzwa bimwe muri byo bikaba bifunze mu masashi.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, iryo soko rikaba ririmo abaguzi bafite utunyabiziga duto two gutwaramo ibyo bagiye bahaha muri iryo soko. Ndetse bamwe muri bo bakaba bafite ibyuma by'ikoranabuhanga bari gukoresha mu ntoki zabo.

Isoko rinini ricuruza ibintu bifunze mu macupa ndetse hasi hakaba harimo amakaro muri iryo duka mu cyumba riherereyemo, hakaba hari ikiganza gifashe rimwe muri ayo macupa ari muri icyo cyumba muri iryo soko.

Icyumba gicururizwamo ibikoresho bitandukanye. Icyo cyumba kikaba kirimo ibicuruzwa byinshi abantu bakenera bakwifuza kuza guhaha. Icyo cyumba kikaba ari kinini, kikaba gifite inkuta zisize irange ry'umweru, ndetse hakaba harimo amatara menshi abonesha muri icyo cyumba.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye, by'iminsi mikuru ibyo kurya imyambaro n'ibindi bitandukanye hakaba harimo abantu bari kugenda bagura ibyo bintu.

Iduka rinini ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, iryo duka rikaba riri ahantu hagari ndetse hakaba hari ibintu bigurishwa bifunze, icyo cyumba kikaba kirimo amatara aboneshamo afite urumuri rw'umweru kandi hasi harimo amakaro.

Iduka rinini riri mu cyumba cyisanzuye iryo duka rikaba riri mu mabara y'umweru muri icyo cyumba hakaba harimo urumuri ruri kwaka rw'umweru ruri kubonesha muri icyo cyumba kinini icyo cyumba kikaba ari icyi soko ryisanzuye rigurisha ibintu bitandukanye hasi hakaba harimo amakaro .

Iduka rinini ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, ibyo bicuruzwa bikaba biri mu cyumba kinini iryo duka rikoreramo hasi hakaba harimo amakaro hejuru hakaba harimo urumuri rw'umweru ruboneshamo mu gihe bwije.

Iduka rinini ricuruza ibicuruzwa byo kurya iryo duka rikaba ricuruza ibintu byinshi byo kurya, iryo duka rikaba riri mu cyumba gifite amakaro hasi ndetse mu mpande kikaba giteye irange ry'umweru mu bikuta.

Iduka rinini ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, rikaba riherereye mu nzu nini iteye amarangi y'umweru ku bikuta, hanyuma hasi hakaba harimo amakaro.

Icyumba kinini kirimo iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, iryo duka rikaba ririmo abantu barigannye baje guhaha ibicuruzwa birimo, hakaba harimo amatara ari kubonesha muri icyo cyumba atanga urumuri rw'umweru ndetse hasi hakaba hari amakaro, hakaba harimo abantu bakeneye ubufasha.